Umusore wambaye ijire y'umutuku ndetse n'agashati k'umweru akaba ari umu ajenti wa Tigo, ari guhereza serivise umukiriya aho umukiriya yambaye agashati k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, bari imbere y'icyapa cyanditseho ngo byabaye agahebuzo.

Umu ajenti wa MTN ari kwakira umukiriya aho ari kumubikurira amafaranga, umukiriya yambaye isaha mu ntoki akaba afite agatelefone gatoya mu ntoki ari kubikura.

Abantu batandukanye barimo abari gusuhuzanya, bari imbere y'akazu ka Airtel. Bari gufata ifoto y'urwibutso ndetse baje no gushaka serivisi za Airtel ku mu ajenti wayo.

Umugabo wambaye ikote, ahagaze ahantu ari guseka, akaba ahagaze imbere y'icyapa cyanditseho ngo equit: "Ekwiti ageti". Inyuma ye ahagaze undi mugabo wambaye ingofero.

Umukozi wa MTN wambaye umupira wanditseho MTN, imbere ye ari kumwe n'umugore w'umukecuru ukuze akaba yaje gushaka serivise ndetse akaba ari gufashwa.

Abayobozi batandukanye biganjemo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abagore babiri harimo n'abazungu babiri bakaba baje kumurika telefone ndetse ubona y'uko babyishimiye.

Abantu biganjemo abagabo, bari imbere y'akazu ka mtn, bakaba baje gushaka serivisi za airtel ndetse na mtn. Imbere yabo hari icyapa cyanditseho mtn mobile money, airtel ndetse na tigo.

Umutaka w'ibara ry'umuhondo w'umu ajent wa MTN, wanditseho MTN mobayilomani, uri wonyine uteretse ku gasanduka n'ako kandiditseho MTN mobayilomani.

Abasore babiri umwe ni umu ajenti wa MTN yambaye ijire ya MTN afite na baji, afite telefone ari kwereka mugenzi we wambaye umupira w'umutuku urimo uturongo tw'umukara ndetse n'umweru wambaye n'isaha.

Umukobwa ufite ibisuko wambaye umupira w'umweru, amarinete y'umukara ndetse n'iherena ku gutwi, afite terefone mu ntoki ari imbere y'icyuma cya ATM mashine yashyizemo ikarita, ategereje yuko amafaranga asohoka.

Umu agent wa mute n'umugore wambaye ijire y'umuhondo ya mtn, ari kumwe n'undi muntu utagaragara ufite ikiganza gifashe igipapuro cya MTN kigaragaza ibiciro bishya by'umukiriya.

Umu ajenti wa MTN wambaye ijire y'umuhondo ahagararanye n'umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'amarinete akaba ari kumufasha kumuha serivisi zitandukanye za MTN, bari munsi y'umutaka w'umuhondo ugizwe n'amabara y'umukara ndetse n'umweru wa MTN.

Ni mu isoko, harimo abantu benshi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umweru, imbere hari umugabo wambaye ga z'umutuku, afite mikoro ari gusobanura ukuntu inanasi z'iwe ari nziza kugira ngo bazigure.

Abantu benshi batandukanye barimo abagabo bambaye amakote, ndetse n'umugore wambaye umupira w'ubururu, bishimiye igihembo babonye k'ishimwe ndetse bari kukifotorezaho ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi bambaye imipira isa y'ubururu bigaragara ko ari abakozi ba banki, hagati yabo hari Umugabo wambaye ikositimu akaba afite mikoro ari kubabwira uko bagomba kwitwara.

Umugore wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'umwitero urimo amabara y'umweru n'umutuku afite ikayi mu ntoki akaba ahagaze mu murima w'ibigori ari kwerekana ukuntu ibigori iyo byitaweho neza biba bisa neza.

Ni muri Bank aho abantu baje gushaka serivisi zo guhabwa amafaranga. Bahagaze imbere y'umu agent wa Bank, ari kubahereza amafaranga yabo baje kubikuza.

Abantu benshi bateraniye mu nama barimo abagabo ndetse n'abagore hakaba harimo abambaye imyenda isa y'ubururu yanditsemo amagambo y'umweru, imbere yabo hari umuyobozi uri kubaha amahugurwa.

Umugabo wirabura, wambaye ishati yumweru, ari mu murima we w'ibinyomoro, aho ari gusarura ibinyomoro byeze, bitukuye kandi ubona ko bishimishije.

Umugore ubyibushye wambaye imyenda y'umweru irimo amabara y'umukara, afite terefone mu ntoki, yambaye ingofero y'umweru irimo n'ibara ry'umukara, ari kwibaza byamucanze arasa nkufite ibibazo byinshi.

Amacupa atandukanye arimo inzoga z'amoko yose akaba ari inzoga zihenze kandi zikaze.

Aha, turahabona umukobwa wambaye ishati y'umweru, ufite n'imisatsi y'umukara, ahagaze mu iduka ry'akabari, ari guseka inyuma ye hari inzoga zitandukanye, zirimo ibyuma bigiye bitandukanye, na za mitsingi ndetse imbere ye, hari na firigo iteretsemo inzoga zitandukanye.

Ni muri bale harimo intebe ndetse n'ameza byanditseho Amstel mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Hicayemo abantu batandukanye abandi barahagaze. Hari n'abahanzi bari gucuranga bafite na za gitari.

Muri butike harimo ibicuruzwa byiganjemo amavuta yo kwisiga, harimo amavuta yo kwisiga mu mutwe, ayo gukesha umubiri ndetse n'ayandi menshi.

Ni mu iduka ry'imyenda aho higanjemo udukapu dukoze ndetse turi mu mabara atandukanye yiganjemo umutuku ndetse n'umweru, hari n'ibitenge bimanitse bidoze kandi bitegereje kugurwa.

Aha turahabona akazu gafite inzugi z'umutuku, zanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, mo imbere turahabona utu etajeri turimo ibintu bitandukanye ndetse hejuru y'iyo nzu handitseho ngo dukanika fone.

Mu iduka hicayemo umugore wambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, inyuma ye hari ibicuruzwa bitandukanye ari gucuruza.

Umugore wirabura wambaye umwenda urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, ari mu kabari, mu kabari harimo inzoga zitandukanye ndetse akaba ategereje abakiriya ngo abakire.

Muri botike harimo amacupa ya gaze bigaragara yuko ari zo zihacururizwa, hejuru y'izo gaze hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo: "Tubafitiye gaze n'ibikoresho byayo, byose ku giciro gito".

Imifuka myinshi ipakiye irimo iy'umweru, iya kake ndetse n'ubururu, yose iruzuye kandi irapfundikiye, inyuma yayo hahagaze abantu babiri ari bo umugore n'umugabo, ndetse hari n'imodoka.

Urujya n'uruza rw'abagore bagaragara nk'abakuze, ndetse n'abana babo, harimo n'abagabo bakeya, bahagaze ahantu hamwe bishimye, bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo abambaye imyenda y'imyeru n'imikara, ndetse bitwikiriye n'imitaka, bari imbere y'urusengero aho baje gusenga, bakaba bategereje ko isaha igera ngo binjire mu rusengero basenge.

Inyubako y'urusengero rugezweho, ni inyubako yubatse mu buryo bwa gihanga, inyubako ikomeye yubakishije amatafari ahinye.

Urujya n'uruza rw'abakristu bateraniye mu rusengero, barahagaze bari gukurikirana imihango iri kuberamo, abapadiri bari imbere ndetse n'abaherezabitambo, bagiye kubagezaho igitambo cya misa.

Abantu benshi bahagaze ku murongo, harimo imfungwa zambaye impuzankano z'umuhondo, harimo abagore ndetse n'abacungagereza, bahagaze ahantu hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi, abakobwa bambaye amasengeri y'umweru, naho abahungu bambaye imipira ijya gusa icyatsi, bari ahantu barakurikiye, bakurikiye ibiri kuvugirwamo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari imbere y'urusengero bategereje y'uko isaha igera kugira ngo binjire bajye gusenga, ni abantu benshi batandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'umukara.

Abantu benshi barimo abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye, bari mu nama barakurikiye bari kumvamva ibyo bari kubabwira.

Ni abagabo babiri, umwe w'umupolisi ndetse n'undi w'umupadiri, bari gusuhuzanya bishimye, ubona ko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye, rufite amadirishya y'umweru ndetse rusakaje amabati y'umukara.

Abapadiri benshi bambaye amakanzu y'umweru bari gusohoka mu rusengero bagana hanze, bari kumanuka ku mayesikariye, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Ahantu hateye neza, hari pisine, irimo amazi y'ubururu ndetse n'umweru, hirya y'ho hari umurambi, urimo ibiti bijye bitandukanye.

Hotel yubatswe mu buryo bugezweho bwa kizungu, imbere yayo hari abagabo benshi bambaye amakositimu, harimo abambaye ay'imikara ndetse n'umweru.

Icyumba cy'uburyamo kirimo uburiri busasheho amashuka y'umweru, ndetse n'imisego. Kirimo televiziyo iteretse ku kabogisi, ndetse n'itara ryifashishwa mu gusoma.

Igitanda kiri muri hoteli gikozwe mu biti ndetse gishasheho matora iriho ishuka y'umweru ndetse n'utura tw'umukara, hariho kandi agasego ndetse n'amashuka yo kwiyorosa.

Inyubako nziza ya hoteri yubatse mu buryo bugezweho ni inyubako iri ahantu hatuje hari icyapa cyanditseho ngo viziti Rwanda gishinze ahantu mu twatsi twiza.

Hoteri nini cyane ya etaje irimo imiryango hasi ndetse no hejuru, imbere yayo hasi hari pisine irimo amazi ndetse niho abantu baza kuruhukira no kwidagadura bari koga.

Inyubako nini yubatse mu buryo bugezweho, iri ahantu mu kirambi, ikaba ari inyubako ya etage ifite imiryango hasi no hejuru.

Ni kuri hoteli ndetse aha haragaragara pisine, aho abantu baza kwidagadurira boga, kuri pisine hariho agatebe bicaraho iyo bavuye mu mazi bari kuruhuka, bari kwishima.

Hoteli nini yubatse mu buryo bugezweho, ni hoteli ya etaje isize ibara ry'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku, hejuru yayo hari imirasire itanga amashanyarazi iyo amashanyarazi asanzwe yabuze.

Mu isoko hari udukoresho dutandukanye twifashishwa cyane cyane mu rugo turimo: imidaho, utwo bifashisha bayungurura, amajage ndetse n'ibindi.

Umugore wirabura wambaye ishati irimo amabara y'umutuku n'umweru, imbere ye hari iseri ry'imineke, bigaragara y'uko ari umucuruzi w'imineke.

Ni mu isoko aho harimo ibicuruzwa bitandukanye birimo imyenda y'ibitenge ndetse n'ibindi. Hicayemo n'abagore bari gucuruza ndetse ubona yuko harimo akajagari k'ibintu byinshi.

Ni mu isoko aho abantu baje gucuruza ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda, hari umugore wicaye wambaye ingofero y'umweru uri gucuruza ibicuruzwa by'imyenda byitwa udufatamabere.

Mu isoko ryiganjemo abantu b'igitsina gore n'abagabo bakeya, harimo ibicuruzwa bitandukanye ndetse ubona yuko bategereje abakiriya ngo baze bagure.

Imashini isanzwe yifashishwa mu kudoda imyenda itandukanye, hirya yayo hari abana bameze nk'abari gukina.

Urujya n'uruza rw'abantu ,biganjemo abagore ndetse n'abasore, hari abagore barimo kuza bikoreye imifuka, barimo n'abagabo ndetse n'abandi bantu barimo abasore n'abakobwa bari kugenda, bari kugenda babisikana.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bari mu isoko aho mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imyenda ndetse n'ibindi.

Ni ku isoko aho bari gucuruza ibikoresho byifashishwa mu rugo bitandukanye, birimo amasahane, ibyuma, ibikombe, amajage ndetse n'utudobo.

Mu isoko harimo abantu batandukanye, barimo abagore ndetse n'abagabo, ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa byiganjemo imyenda, hakaba hari umugabo ufite imyenda mu ntoki wambaye n'ingofero y'umuhondo.

Ni mu isoko ry'ibitunguru, aha turahabona umugore warambuye shitingi, ashyiraho umusaruro we w'ibitunguru, akaba ari kubicuruza afite n'umuzani imbere ye, hirya ye hari abandi bantu, bashobora kuba baje gucuruza cyangwa se baje kugura.

Mu isoko ry'imbuto harimo abantu baje gucuruza imbuto zitandukanye ndetse n'imboga zirimo: amacunga, inyanya, amadegede ndetse n'ibindi.

Muri resistaura hateretsemo intebe n'ameza, aho bakirira abakiriya, ariko nta mukiriya n'umwe urimo, bigaragara y'uko hategerejwe ko abakiriya baza kugira ngo babakire.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo ari kuri moto icagingwa ifite batiri, yambaye kasike y'umuhondo ndetse n'umugenzi atwaye. Ari kwerekera imbere kandi ari mu muhanda wenyine.

Umumotari uri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ahetse umugenzi ari mu muhanda wenyine ari kwerekeza imbere, inyuma ye hari abagore bahagaze bari kuganira.

Umumotari ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo na mugenzi ahetse ari wenyine mu muhanda ndetse inyuma ye hari amapoto anyuraho insinga z'amashanyarazi.

Abamotari batandukanye, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Nta n'umwe uhetse umugenzi, bigaragara yuko, uwo munsi abagenzi babuze.

Umuntu w'umusore uri gucunga igare mu muhanda wa kaburimbo ahetse udufuka tubiri ndetse n'udukarito hejuru, ari kugenda wenyine mu muhanda, muri uwo muhanda nta kindi kinyabiziga kirimo.

Umumotari ari mu muhanda wa kaburimbo ahetse umugenzi akaba ari kwerekeza imbere, hirya ye hari umugenzi uri gutambuka umuhanda w'abanyamaguru ndetse n'undi mumotari uri mu muhanda wa kaburimbo.

Umusore uri mu muhanda wambaye imyenda y'umukara, ari mumuhanda wa kaburimbo, afite igare ariko ari kucunga, yanze kurijyaho. Ari kugenda yitegereza hirya no hino.

Abamotari babiri, umwe ahetsa umugenzi undi nta mugenzizi afite, imbere yabo hari imodoka y'ivatiri, ndeste hari n'icyapa cyanditseho ngo irembo.

Umugabo uri ku igare ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ni akagare ka siporo kitwa darayeri, inyuma ye hari umumotari uri kwerekeza hirya ndetse inyuma y'umuhanda hari ibiti bitandukanye.

Umumotari uhetse igifuka kinini cy'umweru, ari mu muhanda wa kaburimbo, ageze mu kayira k'abanyamaguru, aho bambukira.

Abanyonzi benshi baparitse amagare yabo, bakaba bategereje abagenzi, bari imbere y'inzu ya MTN, itangirwamo serivisi zose za MTN.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo, ari kugendamo agana imbere ndetse nta mugenzi ahetse, ari mu muhanda wenyine inyuma ye hari umuntu uri gutambuka, ndetse n'imodoka hari n'amazu y'ubucuruzi yubatse ku muhanda, hari n'insinga z'amashanyarazi ziteye ku mapoto.

Abamotari benshi baparitse amamoto, abandi bari kugenda mu muhanda ndetse ubona yuko bari mu kazi rwose kandi bakishimiye.

Umugore uhagaze imbere ya moto yambaye ikote ry'umukara n'agapira k'umweru mo imbere afite ibisuko, ni umugore wirabura wishimye uri guseka.

Umumotari ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo ahetse umugenzi ufite amvirope mu ntoki, inyuma ye hari imodoka eshatu ndetse n'amazu asa nk'ay'ubucuruzi.

Umumotari uparitse moto ye afite kasike mu ntoki, imbere ye hari umukobwa bari guciririkanya ku biciro kugira ngo amutware amugeze aho umukobwa ashaka kujya.